Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abantu bicaye ku ntebe z'umukara mu matsinda, bakikije intebe y'uruziga yashyizweho igitambaro cy'umweru, iyo ntebe ikaba yateretsweho amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abantu bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, bakikije ameza asize irangi ry'umutuku ndetse akaba ateretsweho ibyuma ndangururamajwi ndetse n'impapuro, mo hagati y'aya meza hariho televiziyo.

Icyumba c'inzu kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe zisize ibara ry'ikigina ndetse n'umuhondo imbere yabo hari abantu bicaye bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku akaba yashyizweho mudasobwa ndetse n'ibyuma birangurura amajwi, bakabona nabo bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu bari gukora inama, bakaba bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku wijimye, yateretsweho amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa, hakaba harimo umugabo wambaye ishati y'umweru w'uruhu rwera, abantu bose bari kwitegereza.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse' numugore wambaye agashati bahagaze mu kayira k'igitaka inyuma yabo hari intebe zikozwe mu mbaho zicayeho n'abantu babiri inyuma yabo hari imodoka ziparitse z'amoko atandukanye.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abantu bambaye imipira y'ubururu isa, bicaye mu matsinda ku ntebe zisize ibara ry'umuhondo ndetse n'ameza imbere yabo yashyizweho igitambaro cy'umweru, cyashyizweho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama cyateretswemo icyapa kinini cy'impande enye gisize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kikaba cyandikishijweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, imbere yayo hari abantu bicaye ku ntebe, impande yabo hariho utumeza tw'umukara twateretsweho amazi yo kunywa.

Tapi isize ibara ry'ubururu yashyizweho intebe zo kwicaraho z'umweru, zicaweho n'abantu batanu b'abagabo ndetse n'abagore babiri, imbere yabo hari ameza ari mu ishusho y'uruziga yashyizweho igitambaro cy'umukara ndetse ikaba yateretsweho amavide menshi arimo amazi yo kunywa.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umuhondo, bakaba bari mu byicaro bose bambaye imipira y'ubururu, bari kwitegereza umuntu uri imbere yabo, ku ameza kari imbere y'abo bantu kakaba kashyizweho agatambaro k'ibara ry'icunga ndetse n'amazi yo kunywa yashyizweho.

Abagore batanu bambaye imikenyero y'amabara atandukanye, bari kumwe n'abandi babiri bambaye amakanzu maremare, bakaba bicaye ku ntebe zisize ibara ry'ikigina ndetse n'umuhondo, mu cyumba cy'inzu kiri kuberamo inama.

Abantu bari gukora inama bakaba bicaye ku ntebe z'umweru munsi y'amahema yashyizweho igitambaro cy'ubururu, umuhondo cyane icyatsi imbere yabo hakaba hariho umugore uhagaze afite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'iburyo bwe ukw'ibumoso gufashe ikaye.

Icyumba cy'inzu kiri kwigishirizwamo kikaba cyatetswemo televiziyo ifite ekara igaragaraho amashusho y'umweru ndetse n'icyatsi, ku ruhande hariho umugabo uri gusobanura inyigisho imbere y'abantu bicaye mu matsinda, ku ntebe zisize ibara ry'umukara. Imbere y'abo hari akameza kariho amacupa y'amazi yo kunywa.

Icyumba kirimo abagabo batatu bicaranye buri wese yicaye ku ntebe isize ibara ry'umukara, imbere yabo hari akameza gasize ibara ry'umutuku wijimye, kateretsweho ibyuma birangurura amajwi, amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse n'impapuro.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abagabo ndetse n'abagore bakikije ameza asize ibara ry'umuhondo, hakaba hateretsweho ibyuma birangurura amajwi, amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse n'amatasi, hakaba harimo umugabo umwe uri gutanga ibitekerezo.

Umugore wambaye agapira k'ubururu, akaba ahagaze hejuru yabantu bambaye imipira y'umweru, bicaye mu matsinda, bakaba bakikije ameza yashyizweho igitambaro cy'umukara, cyashyizweho amacupa menshi y'amazi yo kunywa ndetse n'udukarito.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba kigizwe n'inkuta zateretsweho amashusho ndetse n'abantu bicaye mu matsinda imbere yabo hari ameza ashyizweho igitambaro cy'umweru, imbere hariho umugore ufite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'iburyo.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abantu bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku wijimye, imbere yabo hari ibyatsi ndetse aya meza hakaba ateretsweho mudasobwa, amacupa y'amazi yo kunywa n'ibindi.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu bambaye imipira isa y'ubururu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza yashyizeho igitambaro cy'umweru. Bakaba bari gukurikira umugore uhagaze afite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'ibumoso kwe.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abantu bicaye ku ntebe, bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku, hateretsweho amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'ibikombe ku ruhande byo kunywesha, n'icyuma kirangurura amajwi.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza akozwe mu mbaho yateretsweho amacupa menshi y'amazi yo kunywa, inyuma hariho icyapa gisize ibara ry'ubururu, kikaba kiriho amagambo ari mu rurini rw'icyongereza agaragaza ko ari ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Icyumba kirekire kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe zisize ibara ry'ikigina ndetse n'umuhondo, imbere yabo hakaba hariho n'abandi b'abayobozi bicaye, imbere yabo hari ameza bazengurutse asize ibara ry'umutuku, akaba yashyizweho mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, bakaba bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku wijimye, yateretsweho amacupa arimo amazi yo kunywa, amakaye ndetse n'impapuro z'umweru.

Itsinda ry'abantu bari mu cyumba kigizwe n'inkuta zashyizweho amafoto, bakaba bari mu nama bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, bakaba bakikije ameza asize ibara ry'umutuku wijimye, yashyizweho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Iyi ni inzu ikodeshwa iri ahantu bita kugisozi mu mujyi wa kigali mu Rwanda bakaba bari kuvuga ngo iyi nzu irimo ibyumba bibiri kandi irimo n'ubwogero bugera kuri bubiri.

Umupolisi wicaye ku ntebe isize ibara ry'umukara, impande ye hari abandi bicaye muri izo ntebe, bakaba bambaye imipira y'icyatsi, inyuma yabo hari abantu benshi bahagaze bambaye imipira y'umuhondo, ndetse hejuru ku gisenge hakaba hariyo amatara menshi ari gutanga urumuri.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba gihagazwemo n'umugore ufite icyuma ndangururamajwi mu kuboko kw'iburyo bwe imbere ye hariyo ababyeyi bambaye imikenyerero inyuma kuri pulatifomu hariho abantu bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara ndetse imbere yabo hari ameza yateretsweho igitambaro cy'umweru.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba kigizwe n'amadirishya ndetse n'inkuta zisize iranjye ry'umuhondo kirimo abantu bicaye imbere y'ameza asize ibara ry'umutuku ateretsweho mudasobwa, amakayi ndetse n'amakaramu.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba kirimo abagabo bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara bari mu byiciro, imbere yabo hari ameza asize ibara ry'umutuku wijimye, hakaba hateretsweho ibyuma birangurura amajwi ndetse na mudasobwa.

Icyumba k'inzu kiri kuberamo inama kikaba kirimo abantu batanu, bicaye ku ntebe imbere yabo hari akameza kashyizweho igitambaro cy'umweru, kikaba kateretsweho mudasobwa amavide arimo amazi yo kunywa, ndetse n'utwapa duto dusize ibara ry'umweru.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abantu bicaye ku ntebe bazengurutse ameza y'uruziga, yashyizweho igitambaro cy'icyatsi ndetse ikaba yashyizemo uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'utwapa duto twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda.

Umugore wambaye ikoti, akaba afite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'ibumoso bwe. Ahagaze imbere y'ameza yashyizweho igitambaro cy'umweru ndetse n'ubururu, kikaba cyateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa, iruhande rwe hariyo abantu bari kwitegereza bambaye imipira y'ubururu isa.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kirimo umugore wicaye ku ntebe z'ibyuma zisize ibara ry'ikigina akaba afite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'iburyo bwe, imbere ku kameza gateretsweho igitambaro cy'umweru ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umugabo uhagaze wambaye amadarubindi y'umukara ndetse akaba afite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'iburyo bwe imbere ye hari abantu bicaye bambaye imikenyero ndetse n'ingofero inyuma hari abantu bari munsi y'ihema ry'umweru.

Icyumba kiri kuberamo inama kigizwe n'inkuta zateretsweho amashusho yagiye atandukanye ndetse n'abantu bicaye mu matsinda begereye ameza yashyizweho igitambaro cy'umweru, akaba yateretsweho amacupa y'amazi ndetse na telefone n'utwapa duto dusize ibara ry'umweru.

Abagabo batanu bicaye bari gukorera inama, ku ntebe zisize ibara ry'umukara, bakaba bakikije ameza yasizwe ibara ry'umutuku, yateretsweho amazi yo kunywa, mudasobwa, ndetse n'amakaye, inyuma yabo hari inkuta zisize ibara ry'umuhondo, zashyizweho icyapa gisize ibara ry'ubururu.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu batatu bicaye ku ntebe z'umukara, bateganye n'abandi batatu bicaye ku rundi ruhande, imbere yabo hari ameza asize ibara ry'umukara yateretsweho amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'impapuro zo kwandikwaho.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba kigizwe n'inkuta z'umweru ndetse kikaba cyicimo n'abantu benshi imbere hariho akameza kashyizweho igitambaro cy'umuhondo n'icyatsi kateretsweho amacupa arimo amazi ndetse n'arimo umutobe.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abagore batatu bicaranye, imbere yabo hariho ameza yashyizweho igitambaro cy'ubururu, ibikapu, amakaye ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa, akorwamo n'uruganda rwitwa Inyange.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo umugabo uhagaze ari gufata amashusho y'abantu bicaye ku ntebe zisize irangi ry'umukara, bakaba bakikije ameza akozwe mu mbaho yateretsweho amakaye ndetse n'ibyuma birangurura amajwi n'utwapa duto dusize ibara ry'umweru.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba gihagazwamo n'umugabo ufite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'iburyo bwe, impande ye hariho abantu bicaye mu byiciro, imbere yabo hari ameza yashyizweho igitambaro cy'umweru, amacupa arimo amazi ndetse na telefone bateretseho.

Ahantu hatangirwa serivisi za eyateri zitandukanye, turabona ibyapa bya eyateri bitandukanye kandi bivuga ibintu bitandukanye. Eyateri rero itanga serivisi nyinshi zishobora gufasha mu bijyanye na telefone, interineti ndetse n'uburyo bwo kwishyurana. Dore muri bimwe mu buryo ushobora gukoreshamo ukoresheje eyateri, harimo kohereza no kwakira amafaranga, kwishyura ibicuruzwa na serivisi, kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga kumu ajenti wa eyateri kugura ama unite na interineti, serivisi z'amajwi, guhindura icyongereza cyangwa ikinyarwanda kuri simukadi yawe kandi hari'icyo wakora igihe ufite ikibazo aho ushobora guhamagara ijana, kugira ngo ugerageze kuvugana n'umukozi wa eyateri bagufashe. Ushobora kandi kugana eyateri ku ishami iryo ari ryose ribegereye, bakabagufasha mugihe ufite ikibazo kijyanye n'umurongo w'itumanaho bakoresha.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'inkuta zisize amabara atandukanye y'umuhondo ndetse n'umweru, kikaba cyashyizweho icyapa gisize ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, kikaba kirimo abantu bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, bazengurutse ameza asize ibara ry'umutuku akozwe mu mbaho, hakaba hateretseho icyuma ndangururamajwi kuri buri muntu.

Umugabo wambaye amadarubindi, umupira w'ubururu bwijimye, ndetse n'ingofero, akaba afite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'iburyo bwe, ukw'imoso gufashe terefone, inyuma ye hari abantu bahagaze bari kumureba, ndetse n'ihema riri hafi yabo rigizwe n'igitambaro cy'umweru.

Ikibanza gisize cy'igitaka cyateweho ihema rigizwe n'igitambaro cy'umweru, kikaba cyicayewemo n'abantu benshi iruhande hari abandi bahagaze bakikijwe n'abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'umukara ndetse n'icyatsi ku ruhande hariho ishyamba rinini ndetse n'ibyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, uriho ikirango cy'idarapo ry'u Rwanda, akaba afite ikaramu mu kuboko kw'iburyo bwe, ari kwandika ku urupapuro rw'umweru, ku meza yasize ibara ry'umutuku, yateretsweho amacupa y'amazi, ndetse ari kumwe n'abandi bantu, bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara.

Icyumba cy'inzu kirimo abantu barangije gukora inama bagiye kwifotoza kuri puratifomu, inyuma y'aho hari icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umweru, cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Ndetse imbere yabo hari ameza y'uruziga yashyizweho igitambaro cy'umukara ndetse n'intebe nyinshi zizengurutse buri meza.

Umugore ufite ikaramu mu kuboko kw'iburyo bwe, imbere yari impapuro ndetse n'amazi yo kunywa. Ari mu cyumba kiri kuberamo inama, ari kumwe n'abandi bantu bicaye bari mu byiciro. Bakaba bari kwitegereza umuntu ubari imbere.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kigizwe n'ibyapa binini, bishushanyijeho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, by'ibara ry'icyatsi, ndetse n'ubururu, imbere yabo hari abantu batanu, b'abagabo bicaye, hakurya hariyo abantu bari kubyitegereza.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo umugore uhagaze afite icyuma kirangurura amajwi, imbere y'abantu bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umutuku ndetse n'aka meza kari imbere yabo katetswe ho amazi n'icyapa kiri hafi y'amarido y'umuhondo yanditswe amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo umusore wambaye ikote ndetse n'umugore wambaye ishati y'umutuku, bakaba bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza asizwe ibara ry'umutuku wijimye, yateretsweho impapuro, amakaye ndetse n'amacupa yo kunweramo amazi n'ibyuma birangurura amajwi.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba cyicayemo n'abantu ku ntebe zisize ibara ry'umukara bari mu matsinda, imbere yabo hari ameza asize ibara ry'umutuku wijimye, hateretsweho ibyuma birarangurura amajwi ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Icyumba cy'inzu kigizwe n'urukuta rw'umweru, kirimo abantu bicaye bari mu byiciro ku ntebe zisize ibara ry'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza akozwe mu mbaho yateretsweho mudasobwa, igikapu ndetse n'amacupa menshi arimo amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari ameza asize irange ry'umutuku wijimye, yashyizweho mudasobwa ari kureberaho ndetse n'amakaye, ku ruhande hariho icyuma kirangurura amajwi ari kuvugiraho.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bicaye ku ntebe isize ibara ry'umukara. Imbere yabo hari ameza atereretseho mudasobwa ndetse n'ibyuma birangurura amajwi n'amacupa y'amazi yo kunywa, inyuma yabo hariho urukuta rwashyizweho icyapa gisize ibara ry'ubururu.

Abagore babiri bose bambaye amadarubindi, bari mu cyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, bakaba bicaye ku ntebe zisize ibara ry'umukara, ndetse imbere yabo hari akameza kateretsweho mudasobwa, ibyapa bibiri by'umweru ndetse n'amacupa abiri arimo amazi yo kunywa.

Umugabo ndetse n'umugore bahagararanye, buri wese afite icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'iburyo bwe, inyuma yabo hakaba hariho abantu bicaye ku ntebe ndetse n'imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba kiri kugaragaramo abantu batatu, umwe ni mugabo afashe icyuma kirangurura amajwi mu kuboko kw'iburyo kwe, imbere ye hari mudasobwa ifunze, iruhande rwe hariho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'kigina kateretsweho icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umweru, kikaba kibamamariza iduka ricuruza ibijyanye no gutanga serivisi zo gufotora abantu; iruhande rw'iburyo hariho andi maduka yandi acuruza inkweto.

Ekara ya telefone ikagaragara urubuga rwo kuri interinete rw'ikigo gishinzwe ubutaka mu Rwanda, kikaba kigiye kwerekana uburyo amakuru y'ubutaka ashobora kuyabona, aho, sisiteme itanga mu buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Icyumba cy'inzu kirimo umugore uhagararanye n'abana babiri n'undi umwe wicaye, bakaba bari imbere y'ameza asize ibara ry'umukara; hakaba hatereretsweho: udukarito twinshi, impapuro, insinga z'amashanyarazi ndetse na mudasobwa.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyagaragaje ishusho yashyizweho telefone ifite ekara y'umweru, ku ruhande rw'iburyo hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse na nimero za telefoni zishobora kwandikirwaho mesaje ku rubuga rwabugenewe.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kiri kumenyekanisha uburyo bukoreshwa kugira ngo hatangwe umusoro ku nyungu hakoreshejwe telefoni, aho bireba akaba ari abasorera ibinyabiziga n'abafite ubucuruzi buto n'ubuciriritse.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kikaba cyatanze itangazo ry'uko hasigaye iminsi itanu kugira ngo hishyurwe amafaranga y'umusoro. Bitarenze tariki mirongo itatu n'imwe mu Ukuboza bibiri na makumyabiri na kane. Ndetse munsi hakaba hari nimero za telefoni zishobora guhamagarwa.

Ishusho iri mu ibara ry'umweru yasohowe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kikaba kiriho ko umuntu wahawe uburenganzira bwo kwitwa nyiri umutungo utimukanwa, agahabwa icyangombwa cy'umutungo muri uyu mwaka nawe afite inshingano zo kuwusorera, niba uwo mutungo utari warasorewe n'uwari uwufite mbere.

Ekara iri mu ibara ry'ubururu, iri kugaragaza serivisi nshya ku rubuga rwa irembo, ikigo gitanga iyi serivisi, akaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa mu bucuruzi, no kurengera umuguzi, ku ruhande hariho icyiciro, ubucuruzi, n'inganda.

Abanyeshuri babiri bambaye amashati asa, imbere yabo hakaba hariho mudasobwa ebyiri zateretswe ku meza, umwe akaba ari kwerekana ibyo yari arimo gukora aho yashushanyaga inzu ifite amabati y'ubururu ndetse n'amadirishya y'umuhondo.

Umuhanda w'igitaka uri kugendwamo n'imodoka, impande hariho ruhurura ndetse n'ibiti biri hafi yawo bikaba bifite amashami maremare, n'ipoto y'ikigina yashyizweho insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro mu ngo.

Urukuta rw'urupangu rusize ibara ry'ikigina ndetse n'ubururu kikaba cyashyizweho senyege hejuru yayo yo kwirinda abajura, mo imbere harimo itara ritanga urumuri, rifashwe ku ipoto ndetse n'ikindi cyuma cyashyizweho insinga z'amashanyarazi.

Icyapa gitoya gisize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru; kiri impande y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari kugenwaho n'umuntu ndetse kikaba cyateretswe ku ipoto rinini ryashyizweho itara ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Ipoto rirerire rikozwe mu cyuma, rikaba ryashyizweho itsinga z'amashanyarazi menshi, bikaba biri hagati y'urupangu rw'inzu rusize ibara ry'ubururu impande hari inzu y'amatafari y'umuhondo ndetse ikaba ifite ibyuma by'icyatsi biri hejuru ku mabati.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwaho n'abagabo babiri bari kwirukanka, impande hariyo akayira k'abanyamaguru, kashyizweho imitaka ibiri iri hejuru y'utumeza dusize ibara ry'umuhondo, ku ruhande hari ibiti, ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi.

Umugore wambaye ingofero y'ubwirinzi ndetse n'inkweto ziremereye z'umukara akaba yiziritse ku ipoto ryashyizweho insinga z'amashanyarazi afite agakapu ari gukuramo ibikoresho bitandukanye ari bwifashishe mu gukora izo nsinga z'amashanyarazi.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafa y'ikigina, kari hafi y'umuhanda wa kaburimbo ndetse ku ruhande rwako hakaba hari ipoto rirerire ryashyizweho insinga z'amashanyarazi ndetse ku ruhande hariho ibiti bifite amashami maremare.

Ibyatsi biri imbere y'urupangu, byashizwemo ipoto rinini, ryashyizweho itsinda ry'amashanyarazi impande hariho urupangu rugizwe n'amatafari atukura, n'imbebebakaba arimo inzu y'amabati atukura, ndetse n'andi ashaje kuruhande hariho ibyatsi bitwikiriye akabaraza.

Ipoto rirerire ryashyizweho insinga z'amashanyarazi, rikaba riri impande y'icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umweru ndetse n'ubururuba; kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Impande ya byo akaba ariyo inzu igizwe n'inkuta zisize ibara ry'umukara y'amagorofa abiri.

Imodoka isize ibara ry'ikigina iri kugendera hafi y'ipoto yashyizweho insinga z'amashanyarazi nyinshi, ibumoso hari inzu iri gukorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, ku ruhande rw'ibumoso hariho inzu yashyizeho icyapa hejuru gisize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Ipoto rirerire ryakozwe mu mbaho rikaba ryarashyizweho insinga z'amashanyarazi, riri impande y'ibiti byinshi by'amashami maremare, imbere yaryo hakaba hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ay'umweru ndetse n'umukara.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara ndetse n'ikanzu y'umweru ari kugendera mu muhanda w'igitaka, iruhande rwe rw'iburyo hariho akazu gasize ibara ry'umuhondo gakoze mu cyuma, kari imbere y'ipoto rinini ryateretsweho insinga z'amashanyarazi.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina kakaba karashinzwemo amapoto atwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'icyapa cy'impande eshatu gisize ibara ry'umutuku umukara n'umweru, ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo wo kugerwaho n'imodoka ndetse n'abamotari

Abagore n'abagabo bavanze bicaye mu ihema risa umweru, bicaye ku ntebe zifite ibitambaro by'umweru, imbere yabo ku meza igitambaro gifite amabara atatu : ariryo ry'ubururu, umuhondo, icyatsi, hejuru ku meza hariho icupa ry'amazi, hariho n'indangururamajwi irambitse.

Umugore wambaye amadarubindi ndetse n'umupira w'ubururu wanditseho amagambo ari mururimi rw'icyongereza akaba yicaye ku ntebe imbere hari ameza asize ibara ry'umutuku wijimye yashyizweho mudasobwa ifite ekara iri kugaragaraho ishusho y'umweru.

umugabo uhagaze imbere y'imodoka iparitse hafi y'umuhanda wa kaburimbo ikaba isize ibara ry'umweru itwara abagenzi inyuma yaho hari indi isize ibara ry'umutuku ndetse hakurya y'umuhanda hari ikigo cy'ubuzima cya kacyiru kikaba gifite inkuta zisize ibara ry'umweru ndetse n'ikigina.

Inzu igizwe n'inkuta z'umuhondo ikaba ifite umuryango w'ibyuma, imbere yayo hakaba hari akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse kakaba kari kugedwaho n'abantu. Iruhande hari imodoka eshatu zisize ibara ry'umweru ziparitse.

Intebe zikozwe mu byuma zicaweho n'umugore wambaye igitenge inyuma yari umugabo uhagaze afite urupapuro mu kuboko kw'ibumoso bwe. Iruhande hari umuntu uri kwinjira mu cyumba k'inzu kigizwe n'inkuta z'umuhondo zikaba zashyizweho icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda agira ati aho basuzumira. Iruhande hariho umuntu wicaye ku kagare.

Ubutaka bwatewemo ibyatsi by'amoko atandukanye ndetse n'ibiti bikaba byarakoze ishusho y'uruziga biri impande y'ipoto rinini ryashyizweho ibendera, ndetse n'iruhande rwayo hakaba hari inzu y'amagorofa abiri igizwe n'inkuta z'umuhondo ndetse n'amabati asize ibara ry'umutuku wijimye.

Abacunga umutekano bari imbere y'urupangu rw'ibitaro, rukaba rugizwe n'icyuma kirekire gisize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, kizamurwa cyangwa se kikamanurwa mu mugihe ibinyabiziga byinjiye cyangwa se bisohotse, mo imbere hari imodoka ziparitse, hafi y'inzu igizwe n'amabati atukura.

Umugore uhagaze mu kayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ari kwitaba telefone afite mu kuboko kw'iburyo bwe, ukw'ibumoso gufashe teremusi ndetse n'udufuka tubiri tw'amabara atandukanye, inyuma ye hari ibitaro ndetse n'imodoka ziparitse zitwara abarwayi zisize ibara ry'umweru.

Icyumba kiri kuberamo inama kiba gifite igisenge cyashyizweho amatara menshi ari gutanga urumuri ndetse n'abantu bicaye mu matsinda, imbere yabo hari ameza y'uruziga yashyizweho igitambaro cy'umukara cyatetsweho utwapa tw'umweru ndetse n'amazi yo kunywa.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, gahagazwemo n'abasore babiri, ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo, uriho umugabo utwaye umufuka, ndetse n'ikinyabiziga cya moto, gitwawe n'umumotari, hakurya hari inzu y'amagorofa menshi, igizwe n'inkuta z'umuhondo.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse n'andi ari ku ruhande y'umweru ndetse n'umukara, iruhande hari umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo irombereje y'umuhondo ndetse n'umweru, ikaba iri kugendwamo n'ibinyabiziga biri kubisikana harimo imodoka isanzwe ndetse n'igikamyo gisize ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bahagararanye bose bambaye ingofero zirinda igice cy'umutwe ndetse n'imyenda yabugenewe, isize ibara ry'umukara n'icyatsi yifashishwa mu gihe bari kuzimya inkongi y'umuriro, bakaba bafite umugozi bari kumwe n'umupolisi iruhande rwabo, uri kuvamo amazi ari kuzimya inkongi y'umuriro iri kuzu ifite inkuta zisize ibara ry'umuhondo.

akayira k'amanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kaparitswemo imodoka ya polisi, ndetse n'indi isize ibara ry'ikigina cyijimye, imbere y'inzu y'amagorofa menshi ifite inkuta zisize ibara ry'ikigina ndetse n'ubururu, yashyizweho icyapa cy'umweru.

Abapolisi babiri bakaba bari mpande ya moto ndetse n'imodoka iparitse mu gahanda k'agataka kagizwe n'amabuye menshi, iruhande hari kaburimbo iri kugendwamo n'imodoka isize ibara ry'umukara ndetse hakurya harinzu ya amagorofa abiri, ifite icyapa gisize ibara ry'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama, kikaba kirimo abantu batatu bicaye ku ntebe bakikijwe n'amarido asize ibara ry'ikigina umweru ndetse n'umutuku ,imbere yabo hariyo ameza yashyizweho igitambaro cy'umweru ndetse n'icyapa cyanditsweho tora imbere yabo.

Umugabo wambaye urunigi ishati y'umukara ndetse n'urukenyerero, akaba ahagaze imbere y'icyuma kirangurura amajwi, inyuma ye hari abantu bicaye ku ntebe z'umweru ndetse hari icyapa gisize ibara ry'umweru rishushanyijeho umuntu.

Umugabo ugararanye n'abagore babiri ndetse n'umusore umwe, akaba afite icyuma kirangurura amajwi, inyuma ye hariho icyapa kiri kwamamaza umugabo uri kugaragaraho wambaye ikoti ry'ubururu, akaba ari kwiyamamaza k'ubuperezida.

Abagabo bane bambaye amakoti, ndetse n'ababyeyi babiri bari inyuma yabo, bambaye imikenyero, buri wese akaba afite ibendera mu kuboko ku ibumoso kwe bw'ibara ry'ubururu umuhon ndetse n'icyatsi cy'igihugu cy'u Rwanda, yazamuye akaboko k'iburyo ari kurahira.

Icyumba cy'inzu kiri kuberamo inama kikaba kirimo umugabo uhagaze afite impapuro ze mu kuboko kw'ibumoso bwe. Ari kuzitanga ku mugore wicaye imbere ye hari ameza akozwe mu mbaho akaba ateretswe amacupa arimo amazi ndetse n'igikombe k'itasi.

Akararo kari hejuru ya ruhurura gakozwe mu isima isize ibara ry'umutuku, imbere hari akayira gasize ibara ry'ikigina k'amatafari, imbere hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'igikamyo kinini kidahetse imizigo, kigiye kubisikanarana n'ikindi gisize ibara ry'umweru.

Imodoka isize ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, ikaba yanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umutuku ndetse na nimero za telefone, mu muhanda wa kaburimbo ndetse hafi y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, umweru ndetse n'umukara.

Imvura irimo amabuye menshi ikaba iri hafi y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse n'ikiraro gitoya, bikaba biri impande y'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'igikamyo kinini gisize ibara ry'umutuku, kikaba gihetse imizigo itwikiriwe n'ishashi y'umukara.

Imodoka y'umweru iri kwambukiranya akantu kari imbere y'urupangu rw'umukara, byibuze n'inkuta zisize irangi ry'umweru, inyuma yayo hakaba hariho umugore wambaye igitenge afite agafuka mu kaboko k'ibumoso bwe n'undi mugabo umuri imbere bakaba bari kunyura mu kayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, impande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugenwaho n'ibikamyo bibiri bibisikanye, kimwe gisize ibara ry'umutuku gihetse ibyuma nyuma yacyo ndetse n'ikindi gihetse igi kontineri gisize ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga cy'amapina atatu, gihetse imizigo inyuma yacyo y'imbaho ndetse n'imifuka y'umweru, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'igina ndetse n'amapoto ariho amatara atanga urumuri ku kumuhanda.

Urukuta rurerure rw'urupangu rwasizwe ibara ry'umweru rukaba rwegereye ubutaka bwateyemo ibyatsi ndetse n'igiti bukaba bwanashinzwemo ipoto rirerire ritanga urumuri, impande hariho akayira k'abanyamaguru gasize ibara ry'ikigina, umweru ndetse n'umukara n'umuhanda wa kaburimbo urikugendwaho n'umumotari.

Intebe nziza ikoze neza, iyi ukaba wayitunga mu rugo, ndetse mu mahoteli bashobora kuyitunga no mu maresitora n'ahandi hantu hatandukanye, no mu biro, hanyuma ikaba yagira umumaro wo kuyicaraho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru ndetse n'umuhondo icagase, ikaba iri kugendwaho n'abamotari babiri batwaye abagenzi, iruhande hari akayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafari y'ikigina, kakaba kazengurutswe n'andi asa umweru ndetse n'umukara.

Iyi ni ingorofani yifashishwa na bamwe mu batwara imizigo, aho ishyirwamo ibiba biremereye cyane badashobora kwikorera nk'imifuka, amakarito menshi ndetse n'ibindi.

Igikamyo gisize ibara ry'umweru kikaba nta muzigo gihetse, kigiye kubisikana n'ikindi mu muhanda wa kaburimbo urimo ibisate byinshi ndetse n'ikinogo, impande zombi hariho utuyira tw'abanyamaguru tugizwe n'amatafari y’ikigina ndetse na ruhurura.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'kigina, kari kugendwaho n'umugore ufite telefone mu kuboko kw'iburyo bwe, iruhande hariho moto eshatu ziri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'imodoka isize ibara ry'umweru n'umuhondo.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina kateretsweho icyuma, iruhande hariho umuhanda wa kaburimbo iriho imirongo irombereje y'umweru ndetse n'icagase y'umuhondo, ikaba iri kugendwamo n'imodoka isize irangi ry'umweru.

Ibyatsi byegereye ruhurura iri impande y'akayira k'abanyamaguru rigizwe n'amatafari kigina, iruhande hari kaburimbo irimo ibinogo ikaba iri kugerwaho n'umuyonzi ikinyabiziga cy'amapine atatu, ndetse n'ikindi kinyabiziga gitwara abagenzi gisize irangi ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijeho imirongo y'umweru icagase, ikaba iri kugenwaho n'ibinyabiziga bitatu, kimwe gitwara abagenzi kikaba gifite icyapa impande zayo z'icyatsi, n'ikindi gisize ibara ry'ubururu cy'amapine atatu, n'ikamyo iri imbere ikaba itwikiriwe n'igishashi, isize ibara ry'ubururu.

Umumotari urikugendera kuri moto ye mu muhanda wa kaburimbo. Iruhande hakaba hari akayira kagizwe n'amatafari y'ikigina kagendwaho n'abanyamaguru ndetse n'iruhande rw'ibumoso hariho urupangu runini rukikije inzu y'amagorofa menshi ifite inkuta zisize ibara ry'ikigina.

Umuhanda wa kaburimbo usa nabi ukaba kugenwamo n'imodoka isize ibara ry'umukara, ndetse n'abamotari batwaye abagenzi, impande hari ibinyabiziga biparitse birimo ikamyo, ndetse n'akamodoka gato gatwara imizigo, iruhande rw'ibumoso hariho abantu bari kugendera ku kayira kagizwe n'amatafari kigina.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'abamotari babiri batwaye abagenzi, imbere yabo hari igikamyo gisize ibara ry'umweru, gihetse ingunguru isize ibara ry'umweru, ikozwe mu cyuma ikaba igenda yikaraga, mo imbere harimo umucanga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate byinshi ndetse n'ikinogo, ukaba uri kugendwaho n'igikamyo kinini, inyuma yacyo hicayeho umuntu hejuru y'imizigo yazirikishijwe imigozi y'umukara ndetse n'amashashi asize ibara ry'ikigina.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kariho umugabo ufashe imodoka igiye kwambukanyaranya umuhanda isize ibara ry'umukara, ikaba ihetse imizigo y'imbaho, kuhande rwe hariho abamotari ndetse n'igikamyo kinini gitwara imizigo.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina asizwe irangi ry'umweru ndetse n'umukara, biri impande yako ku ruhande hariho umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwaho n'igikamyo kinini kigizwe n'ibyuma inyuma yacyo gisize ibara ry'ubururu ndetse n'imodoka isize ibara ry'umweru.

Ibinyabiziga bibiri bitwara abantu mirongo inani, kimwe gisize ibara ry'ubururu bwijimye, n'ikindi gisi ibara ry'uburu bwerurutse ndetse n'umweru, bikaba biri hejuru y'agahanda ka kaburimbo, karimo ibinogo birimo ikiziba, bikaba biri muri gare.

Igikamyo kinini gisize ibara ry'icyatsi, kiri mu muhanda wa kaburimbo, kikaba kigiye kubisikana n'umumotari wicaye kuri moto ye, iruhande rw'ibumoso hariho akayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse na ruhurura yuzuyemo amabuye ndetse n'icyondo.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafa y'ikigina, kari impande y'umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate byinshi. Ukaba uri kugedwaho n'ibikamyo bibiri, kimwe gisize ibara ry'ubururu gitwaye imizigo y'imicanga, ndetse n'ikindi gisize ibara ry'ubururu.

Umumotari utwaye umugenzi kuri moto akaba ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo, urimo imirongo irombereje y'umweru ndetse n'umuhondo, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari kigina kazengurutswe n'andi asize ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uranyurwaho n'abamotari batwara abagenzi ndetse n'abandi babiri badatwaye abagenzi, bakaba bose bari kugendera mu cyerekezo kimwe, babisikanye n'igikamyo kinini, gisize ibara ry'umweru, ndetse kikaba gihehetse igikontineri kinini, ku uruhande rwaho hakaba hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina buri mpande zombi.

Ibiti bigizwe n'amashami menshi yatwikiriye akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'kigina, kari kugendwaho n'umuntu utwaye imizigo mu ntoki zombi. Impande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'ikinyabiziga cy'ikamyo gisize ibara ry'umutuku.

Igikamyo kinini gisize ibara ry'ubururu kikaba gitwaye umuzigo wa peterore, inyuma hari moto nyinshi zitwaye abagenzi, ku ruhande rwayo hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari kugendwaho n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo.

Ruhurura yegereye akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari kigina, kakaba kari impande y'umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwa n'ibinyabiziga bitandukanye, birimo ikamyo y'umweru ikaba ifite icyuma kiri inyuma gisize ibara ry'icunga ndetse n'umumotari utwaye umugenzi.

Ruhurura yegereye akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari hafi y'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'umunyonzi uhetse agafuka inyuma ku igare rye, impande hariho ikamyo nini isize ibara ry'umweru ikaba itwaye imizigo itwikiriwe n'ishashi y'umukara.

Imodoka itwara abagenzi mirongo inani, ikaba isize ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'umweru, iri kwinjira muri gare iherereye Nyabugogo, ikaba igizwe n'umuhanda wa kaburimbo, ndetse n'ibinyabiziga byinshi bitwara abagenzi, aho harimo abantu bari kuhande rwazo bategereje kwinjira mu modoka.

Umugabo ufite terefone mu kuboko kw'iburyo bwe ari kwitabiraho, akaba ari kugendera mu kayira k'amatafari k'ikigina, iruhande hari abamotari babiri, umwe atwaye umugenzi, undi ari kugenda wenyine, bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo urimo ibisate byinshi ndetse bakaba bari kubisikana n'igikamyo gisize ibara ry'umweru, gihetse imizigo y'ibyuma.

Ibinyabiziga bisize ibara ry'ubururu by'amapine atatu, bikaba biparitse ahabugenewe impande y'umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'iburyo hariho akayira k'abanyamaguru kari kugendwaho n'umugore wambaye igitenge, akaba ahetse agakapu gasize ibara ry'umukara.

Umugabo uhagaze ku gahanda k'igitaka, akaba afite igare rye afashe n'ukuboko kw'ibumoso ry'umukara yashyizeho imizigo iri mu mufuka w'umuhondo, iruhande rwe hari umuhanda wa kaburimbo uri kugeredwaho n'ikinyabiziga gitwara abagenzi, kikaba gisize ibara ry'icunga.

Ruhurura yegereye akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari kigina kari impande y'umuhanda wa kaburimbo harimo kugendwaho n'imodoka isize ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, impande yayo hariho igikamyo kinini gitwaye imizigo inyuma ndetse n'imigozi isize ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate byinshi ndetse n'ibinogo ukaba urikugendwaho n'ikinyabiziga gisize ibara ry'umweru kikaba cyashyizweho icyapa kiri mu rurimi rw'Icyongereza, ku ruhande rwayo hakaba hariho umunyonzi utwaye igare ndetse n'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'abanyonzi babiri ndetse n'ikinyabiziga gitwawe n'umumotari cy'amapina atatu, iruhande hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari kigina ndetse n'inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisi z'i ibara ry'ubururu ndetse n'icunga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagase y'umuhondo ndetse n'indi irombereje isize ibara ry'umweru, ikaba iri kugendwaho n'ikinyabiziga gitwara abagenzi, kikaba gisize ibara ry'umweru, impande hari ipoto ritanga urumuri ku muhanda ndetse ririho n'insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uranyurwamo n'ikinyabiziga cy'amapine atatu kibisikanye n'imodoka isize ibara ry'ubururu, ku ruhande rw'ibumoso hakaba hariyo akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafa y'ikigina ndetse na ruhurura irimo amabuye menshi ndetse n'icyondo.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyije imirongo y'umuhondo icagase ndetse n'indi irombereje y'umweru, ikaba iri kugendwaho n'ikinyabiziga cy'amapine atatu ndetse n'umumotari utwaye umugenzi, bakaba bari kunyura impande y'inzu y'amagorofa abiri.

Ingorofani ikozwe mu mbaho iri impande y'umugore wicaye ku kayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kakaba kari kugerwaho n'abantu benshi, iruhande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'ibinyabiziga bya moto bitandukanye.

Umuhanda w'igitaka ukaba urimo utuba duto twinshi, Uparitswemo ibinyabiziga bitatu bitwara abagenzi by'umweru, bikaba biri impande y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari yikigina ndetse n'umuhanda wa kaburimbo ushushanyijeho umurongo urombereje w'umweru.

Umugabo uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, afite agafuka mu kuboko kw'iburyo bwe, iruhande rw'ibumoso hari umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate ndetse n'ikinogo, uri kugenderwaho n'igikamyo kinini gisize ibara ry'umweru, kiri kubisikana n'imodoka yindi isize ibara ry'umweru.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari kugendwaho n'abantu, impande yako hari umuhanda wa kaburimbo, uri kugenwamo n'ikinyabiziga kinini cy'ikamyo, kigizwe n'ibara ry'icyatsi ndetse kikaba gihetse umuzigo uri muri kontineri isize ibara ry'umutuku, kiba kigiye kunyura munsi y'ikiraro.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Ikamyo y'umweru ihetse ingunguru nini ikoze mu cyuma, irimo amazi, inyuma yacyo hari kugaragaraho ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, iruhande rwayo hari nimero za telefone, ikaba iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, urimo ibisate byinshi ndetse n'ikingo.

Umurongo urombereje w'umweru ushushanyije ku muhanda wa kaburimbo, hakurya hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, iruhande hariho moto iparitse isize ibara ry'umutuku ndetse n'iruhande rwayo hakaba hari akazu gasize ibara ry'icyatsi n'abantu bari imbere yabo, umwe wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho.

Ruhurura irimo amabuye ndetse n'icyondo, ikaba iri impande y'akayira k'abanyamaguru, igizwe n'amatafari y'ikigina, iruhande rwayo hari umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwaho n'ikinyabiziga gitwara abagenzi ndetse n'igikamyo kinini gitwaye konteneri isize ibara ry'umuhondo.

Ikinyamitende cy'amapine atatu gisize ibara ry'ubururu, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, urimo imirongo icagase y'umweru ndetse n'umuhondo; ku ruhande hariho akayira k'ayamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse na kikije y'umweru n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo mugari, uhagazweho n'umugabo wambaye imyenda yabugenewe, usize ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi w'umupolisi, iruhande rwe hariho ibinyabiziga bitwara abagenzi, harimo ibito by'umweru n'icyatsi, ndetse n'ibinini bisize ibara ry'ubururu n'umukara, iruhande rwabyo hakaba hariho abagabo bari kwambuka umuhanda.

Ibiti byegeranye bigizwe n'amashami menshi bikaba biri impande y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, ku ruhande hariho umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate byinshi ukaba uri kugendwaho n'igikamyo gisize ibara ry'umutuku ndetse n'imodoka isize ibara ry'ikigina.

Ibiti byinshi bifite amashami menshi bikaba biri impande y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari kugendwaho n'umukarani uhetse udufuka tubiri tw'umweru, iruhande rwe hari umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'igikamyo gisize ibara ry'umweru ndetse n'abamotari babiri.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka zitandukanye ziri kubisikana ku ruhande hariho ahantu ho guparika imodoka hariho igikamyo gisize ibara ry'icunga ndetse ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ari kugedwaho n'umugore uhetse igitebo mu mutwe we.

Akayira k'abanyamahuru, kagizwe n'amatafari y'kigina, kakaba gakikijwe n'ibyuma, impande hariho umuhanda wa kaburimbo, urimo imirongo irombereje y'umweru ndetse n'indi icagase y'umuhondo, ukaba uri kugendwaho n'imodoka ebyiri, imwe isize ibara ry'ikigina, indi ikaba isize ibara ry'umutuku, n'abamotari bane batwaye abagenzi.

Imodoka itwara abantu benshi isize ibara ry'uburu ndetse n'umweru, ikaba iri muri gare igizwe n'umuhanda wa kaburimbo, ikaba irimo ibinogo byinshi birimo amazi asa nabi ndetse n'utubuye duto twinshi.

Ikinyabiziga gitwara abagenzi mirongo inani kiri kugendera mu muhanda ucagase ndetse harimo ibinogo, kika cyashyizweho icyapa gisize ibara ry'ubururu cyanditseho izina rya banki ya kigali ndetse n'amagambo ari mu rumirimi rw'ikinyarwanda agira ati gucunga konte ni ubuntu.

Ruhurura irimo amabuye menshi yegeranye n'akararo gato gakozwe mu isima, ndetse n'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari kugendwaho n'abantu babiri, iruhande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'ikinyabiziga gitwara abagenzi mirongo inani.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'umukarani, ndetse n'ikinyabiziga gitwara abagenzi benshi gisize ibara ry'icunga ndetse n'umweru, kikaba cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza impande yawo, ku ruhande hariho inzu y'amagorofa abiri, ikaba isize ibara ry'ikigina.

Igikamyo gisize ibara ry'umweru, kikaba gifite umwanya wa inyuma w'icyuma, ubikwamo imizigo, ikaba itwikiriwe n'ishashi y'ubururu igendera mu muhanda wa kaburimbo, impande hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ibumoso. Iburyo hari izindi modoka ziparitse zitwara abagenzi.

Igikamyo gisize ibara ry'umweru, kikaba gihetse igikontineri cy'icyatsi kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, kibisikanye n'umunyonzi uri ku igare rye impande hariyo akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse na ruhurura.

Ibyatsi byegereye ruhurura irimo amabuye menshi ndetse n'ibyondo, iri iruhande rw'akayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari impande y'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'ikinyabiziga gitwara abagenzi, gisize ibara ry'umweru, ndetse n'aba motari babiri, bari kugendera muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'imirongo irombaraje y'umweru impande yazo ndetse mo hagati hariho imirongo icagasa y'umuhondo ikaba irikugenrwaho n'ikinyabiziga cy'amapina atatu ndetse n'izindi risanzwe zigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umukara ku ruhande hari ibyatsi.

Ruhurura irimo amabuye ndetse n'icyondo, ikaba iri impande y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, iruhande hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'igikamyo kinini gihetse imizigo yashyizweho amashashi y'icyatsi ndetse n'umweru biyitwikiriye.

Umuhanda wa kaburimbo uriho umurongo urombereje w'umwerumo hagati ndetse ukaba uri kugaragaraho ivumbi uri kugendwaho n'igikamyo kinini gisize ibara ry'icyatsi, kikaba gihetse imizigo irimo imifuka y'umweru, ikaba itwikiriwe n'ishashi y'ubururu, iruhande rw'iburyo hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina.

Igikamyo giparitse ahabugenewe iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, kikaba kigizwe n'ibara ry'umweru ndetse inyuma hariho umwanya ubikwamo imizigo, ukikijwe n'ibyuma bisize ibara ry'umutuku, ku ruhande rw'iburyo hariho akayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafari y'ikigina kakaba karashinzwemo icyapa cy'ubururu kigaragaza aho baparikira imodoka.

Akayira k'abanyamaguru katagendarwamo n'imodoka kagizwe n'amatafari y'ikigina ndetse n'andi asize ibara ry'umutuku hakaba karimo utuzu twinshi dukozwe mu mbaho n'ibyuma tutagira imiryango ndetse n'amadirishya, hakaba harimo icyapa cy'uruziga gisize ibara ry'ubururu.

Agahanda gasize ibara ry'icyatsi kagendwaho n'abantu bakora siporo, kakaba gatambitswemo imirongo y'umweru irombereje, kakaba kari impande y'icyapa gisize ibara ry'ubururu ndetse ibumoso bwayo hari umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibyuma ndetse n'amapoto atanga urumuri.

Ikibaho gisize ibara ry'umuhondo, kikaba cyarashyizweho inkangara ndetse n'imigozi mu kibuga gikinirwaho umukino w'amaboko, kikaba kinasize ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku, hakurya hari ibiti bigikikije by'amashami maremare.

Icyapa cy'uruziga kiriho ibara ry'umutuku ndetse n'umubare mirongo itandatu, bikaba bishatse kuvuga ko ibinyabiziga byose bitagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu, munsi yaho hari icyapa cy'impande enye, gisize ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, agaragaza ko hari kamera imbere.

Icyapa cy'uruziga gisize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, kikaba cyanditswemo ijambo P ndetse nko hagati hari umurongo uciyemo, bikaba bisobanura ko nta kinyabiziga na kimwe cyemerewe guparika impande y'uwo muhanda wa kaburimbo.

Umugabo wambaye igikapu cy'umukara ahagaze hejuru y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, impande hari umuhanda wa kaburimbo ndetse hakurya hariho ibiti binini bigizwe n'amashami manini, hejuru yaho hariho icyapa gisize ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru irombereje ndetse n'indi icagase y'umweru, ku ruhande hakaba hariho icyapa gisize ibara ry'icyatsi, kiri kugaragaza icyerekezo mu muhanda ujyamo, aho kiri kugaragaza ko iyo ukomeje unyura ku Kanyaru ndetse na Huye, iyo ukomeje ibumoso ukaba unyura Kibugabuga ndetse na Nyamiyaga.

Ibyuma bibiri bifashe icyapa gisize ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza ko ari karere ka Rusizi, impande hariho ipoto rinini risize ibara ry'ikigina, rikaba ryarashyizweho insinga z'amashanyarazi hakurya hari umuhanda wa kaburimbo.

Icyapa cy'impande enye kikaba kiriho ijambo "p" ndetse munsi y'iryo jambo hakaba hashushanyijeho ikinyabiziga gitwara abagenzi. Icyapa kikaba gitekwa hafi y'umuhanda kugira ngo kigaragaze icyerekezo nyacyo, cyo guparikamo ikinyabiziga.

Icyuma gifashe icyapa cy'impande eshatu, bikaba biri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, kigizwe n'ibara ry'umutuku rizengurutse, umweru ndetse ukaba ushushanyijweho agasaraba gasize ibara ry'umukara iruhande rw'igipangu kigizwe n'amatafari ahiye.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kakaba kari kugerwamo n'abantu batatu, iruhande hariho imodoka iparitse isize irange ry'umweru ndetse hafi yaho hari umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwaho n'abamotari,...

Umuhanda wa kaburimbo, ushushanyijeho imirongo icagase y'umuhondo, ukaba uri kugendwaho n'umumotari, impande hariyo akayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafari y'ikigina, ibyatsi ndetse n'ibiti, ku ruhande hari inzu y'amagorofa atatu, ikaba ifite inkuta zisize ibara ry'igitaka.

Abahungu bambaye imipira y'umukara, bari kugenda mu kayira gakikijwe n'amazu atandukanye, iruhande rw'iburyo hari inzu igizwe n'inkuta z'umweru ndetse n'amatafari atukura, imbere yaho hariho icyapa cy'impande enye gisize ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda agira ati; dukata imfunguzo, munsi hariho na nimero za telefoni zo guhamagara.

Umugabo wambaye igikapu cy'umukara ari kugendera mu kayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina imbere hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zisize ibara ry'umweru ndetse n'umumotari, hakurya hariho inzu y'amagorofa atatu yashyizweho ibyapa byinshi by'amabara atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo wegereye urukuta rw'igipangu rusize ibara ryikigina umuhondo ndetse n'mabuye asanzwe manini mw'immbere ari munsizu y'amagorofa abiri impande hariho ibiti bifite amashami maremare.

Inzu y'amagorofa atatu, ikaba igizwe n'inkuta zisize ibara ry'ikigina ndetse n'umuhondo, ikaba yarashyizweho ibyapa byinshi byamamaza ama sosiyeti agiye atandukanye, akorera muri aya maduka, ku ruhande ku kabaraza hariho imodoka ziparitse, zisize amabara atandukanye.

Amabati y'inzu asize ibara ry'ikigina, ari impande y'igiti gifite amashami menshi. Hakurya hariho agasozi kariho amazu menshi yegeranye, asize amabara atandukanye, ndetse n'ikibuga cy'umupira cyitwa sitade Arena.

Akazu gatwikiriwe gakozwe mu mbaho ndetse n'ibyuma, kakaba gatanga serivisi ijyanye no gutanga amafunguro, impande hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari k'ikigina, ndetse ku ruhande rw'ibumoso hariho umuhanda w'amabuye.

Inzu y'amagorofa ane igizwe n'inkuta z'umweru ndetse n'umukara, ikaba ifite akabaraza katereretsetsweho ipoto rinini ritanga urumuri, ndetse rikaba ryarashyizwe insinga z'amashanyarazi, ku ruhande rwaho hari ibyatsi, ndetse n'umuntu uri kugendera mu kayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'kigina ndetse n'ayandi akikije y'umweru n'umukara, impande yako hakaba hariho icyapa gisize ibara ry'umweru n'umutuku kigizwe n'uruziga, ku ruhande rundi hariho umuhanda wa kaburimbo rurimo imurongo ucagasa y'umweru uri kugendwaho n'imodoka ndetse na moto.

Umuhanda wa kaburimbo ukirimo imirongo icagase y'umweru ndetse n'umuhondo ikaba iri kugerwamo n'imodoka eshatu imwe ibara ry'ikigina, umukara ndetse n'indi isizi ibara ry'umutuku n'abamotari babiri bahetse abagenzi.

Ikiraro kigendwaho n'ibinyabiziga kikaba cyarateretswe impande yacyo ibyuma bisize ibara ry'umweru ndetse n'umukara, munsi hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho n'umumotari ndetse n'umuntu utwaye igare uhetse imifuka y'umweru inyuma ye.

Umuhanda mugari w'ibyerekezo bibiri, urimo imirongo irombereje y'umweru ndetse n'umuhondo, ukaba uri kugendwaho n'umumotari utwaye umuhegenzi, ndetse n'imodoka isize ibara ry'umukara ,n'ikamyo nini isize ibara ry'umweru.

Abamotari benshi batwaye abagenzi bari hagati mu ihuriro ry'imihanda, iruhande hakaba ariho akayira k'abanyamaguru, kagizwe n'amatafa y'ikigina ndetse n'ay'umweru ayakikije, mo hagati mu muhanda hariho icyuma kirekire cyashyizwemo amatara y'umutuku ndetse n'ubururu, agaragaza ibinyabiziga bikwiye kugenda n'ibikwiye guhagarara.

Akazu kari ku mpande y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'kigina, gahagaraweho n'abantu bategereje ibinyabiziga bitwara abantu, imbere hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'imodoka ziri kubisikana, imwe isize ibara ry'ubururu n'indi isize ibara ry'umukara inyuma hakaba hari moto.

Uruziga rw'ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo rwatewemo ibyatsi ndetse rukaba rwarashinzwemo icyuma cyerekana isaha, ikaba iri kunyurwaho n'imodoka ku ruhande ndetse hakurya y'umuhanda hariho akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, ka kaba gahagazweho n'abanyonzi bafashe igare ryabo riri mu muhanda wa kaburimbo, ukaba uri no kugendwaho n'imodoka zitandukanye n'abamotari bahetse abagenzi, hakurya hariho inzu y'amagorofa atatu.

Umugabo uri ku igare ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo, uriho imirongo icagase y'umweru, ku rundi ruhande hariho akayira bahagararaho bategererejeho amatara amanitse ku muhanda, atanga uburenganzira bwo kugenda yaba ku bantu ndetse no ku biziga.

Akayira k'abanyamaguru katewemo ibyatsi ndetse kakaba kagizwe n'amatafari y'ikigina, umukara ndetse n'umweru, kakaba kari hafi y'umuhanda wa kaburimbo ur kugendwaho n'umunyonzi ndetse n'imodoka ebyiri zisize ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'imirongo irombereje y'umweru ndetse n'imihondo icagase, ikaba iri kugendwamo n'imodoka eshatu ndetse n'ibikamyo binini bitwaye imizigo, impande hari y'ayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina n'andi y'umweru ari ku ruhande y'umukara.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y’ikigina, kari kugendwamo n'abagore babiri iruhande rw'ibumoso hariho umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo ,n'igikamyo kinini gisize ibara ry'icyatsi, kikaba gihetse igiikontineri gisize ibara ry'umutuku, kikaba kigiye kunyura munsi y'ikiraro imbere yacyo hari ikindi gikamyo gisize ibara ry'umweru, bigiye kubisikana.

Ibyatsi biri hagati y'umuhanda wa kaburimbo, byegeye icyuma gisize iba ry'ikigina ndetse n'umukara, kikaba gishinzwe gutahura imodoka zirengeje umuvuduko cyangwa se izishe amategeko mu muhanda, hakurya hariho ibiti biyikije by'amashami maremare.

Umuhanda mugari w'ibyerekezo bibiri bibisikanye bikaba bitandukanyijwe n'agataka katewemo ibyatsi ndetse kakaba gakikijwe n'amatafari y'umweru ndetse n'umukara, ni umuhanda wa kaburimboga washushanyijeho umurongo mugari wambukiranwaho w'imirongo y'umweru icagase.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kari impande y'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwaho n'abamotari benshi batwaye abagenzi ndetse n'impande yaho hariho amapoto menshi atanga urumuri ku muhanda ndetse n'ibyatsi, n'ibiti bifite amashami maremare.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo abamotari batwaye abagenzi, imodoka ndetse n'ibikamyo binini bitwaye imizigo, ku ruhande hariho agace imodoka ziparikamo kabugenewe, impande hari akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina.

Imihanda ibiri imigari ya kaburimbo, ikaba igendera mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande rumwe moto itwaye umugenzi ndetse n'imodoka, biri kugendera mu cyerekezo cy'ibumoso, undi muhanda ukaba ushushanyijeho imirongo irombereje y'umweru icagase.

Akazu k'icyuma gategererezwaho imodoka itwara abagenzi, kakaba kari hafi y'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, impande yabyo hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwaho na moto ndetse n'igikamyo kinini gihetse umuzigo watwikiwe n'igishashi cy'ubururu.

Imodoka isize ibara ry'ikigina iri kugendera mu ihuriro ry'imihanda, aho ibinyabiziga bihanyura bizengurutse mo hagati muri urwo ruziga hakaba haratewemo ibyatsi ndetse n'amatara yashizwemo atanga urumuri mu muhanda.

Ipoto rinini ryashyizweho ibyuma bine bitanga urumuri rwemerera ibinyabiziga kugenda, ruri hagati mu muhanda mugari wa kaburimbo, kikaba kegeranya n'icyuma gipima umuvuduko, ndetse n'akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina n'andi ari ku ruhande ayazengurutse y'umweru ndetse n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo washyizweho imirongo mo hagati ndetse n'impande yawo isa ibara ry'umweru, ikaba yarashyizweho ibyatsi bikikijwe n'amatafari asize ibara ry'umweru ndetse n'umukara ndetse akaba yateretswemo n'amapoto atanga urumuri ku muhanda.

Akayira k'abanyamaguru kagizwe n'amatafari y'ikigina, kakaba kari kugendwaho n'umugore wambaye ikanzu ndende y'umukara, impande zombi hariho ibyatsi ndetse n'ibiti byateweho, hakaba hariho n'icyapa gisize ibara ry'icyatsi cy'impande enye, kiri kugaragaraho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse n'izina ry'umuhanda.